Inama iyobowe n'umuntu w'umumama, ubona ko ari kubabwira ibintu kandi bose bari kubyumva, hari amabara meza atatswe n'agize igihugu cy'u Rwanda, abandi bantu benshi bari kumva, imbere yabo hari ameza ateguye neza, bari gukorera ahantu hari ibyatsi kandi hateye neza, ubona ko buri wese ari kumva ibivugirwa ngaho.

Abantu benshi abagore n'abagabo, bicaye ahantu hatatse neza, buri wese afite n'amazi yo kunywa, ubona ko bari mu nama, bafite ibyo bari kuganiraho kandi biri bugende neza, haratatse neza bari ahantu heza hatekanye kandi ubona ko batuje banakeye.

Abantu bari mu nama bari kuganira ku ngingo runaka, imbere hari abayoboye batanu abandi barakurikiye, hari indabo neza zitatse mu mabara meza bicaye ahantu heza hafite isuku kandi ubona ko bafite ikintu bahurijeho mu kuganira.

Abantu bari mu nama bicaye hamwe, ubona hari icyo bari kuganiraho kimwe, hari abari kwerekera abandi, hari n'abandi bari gukurikira ibyo bari kwerekwa, hanyuma bakicara bavuga ku kintu kimwe ku nsanganyamatsiko ibateranyije hamwe.

Abantu bicaye neza nk'abari mu nama bafite amazi kuri buri umwe, bafite n'ibyo bavugiramo, bari ku meza atondetse ku murongo neza bicaye bameze nk'abari mu nama ubona ko bakurikiye bafite ikintu bari gukora kimwe kandi bahuje.

Abantu benshi bicaye bari mu nama umwe afite ibyo ari kuvuga n'indangururamajwi yiwe, hari n'uwihaye Imana ubona ko bicaye bari kuganira ku nsanganyamatsiko imwe bose bumvikanyeho kandi buri wese aratuje ari mu mwanya yagakwiye kuba arimo.

Abantu bane, bari imbere, basa nk'aho bayoboye inama, umwe afite uruhu rwera, abandi batatu bafite uruhu rwirabura, inyuma hari ibirango byandikishije amagambo mu mabara y'ubururu, hanyuma ikirango cyo ni umweru, ubona ko basa nk'aho bari kwamamaza cyangwa kwerekana ibikorwa byabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakoze uruziga baganira ku kintu kimwe ubona kibateranije hamwe bose bari kuvugaho mu nama yabo bari gukora ubona ko bari kumvikana neza buri umwe wese yicaye mu byicaro bye.

Mu nama igizwe n'abantu benshi hari abambaye impuzankano za gisirikare n'abandi bambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano, hari abari kumva no kwakira amabwiriza bahawe kandi bose ubona ko umutima uri ahantu hamwe bari kuganira ku nsanganyamatsiko bose bari kumvikanaho.

Abantu benshi bicaye, higanjemo abagore n'abagabo, n'abakobwa ,n'abahungu bicaye mu nama, baganira kandi bumva ku nsanganyamatsiko imwe, ubona ko bahuje ibitekerezo n'ingingo zo kuganirwaho, bose bameze neza kandi baratuje.

Abantu benshi bateraniye hamwe ubona bafite ibyishimo, harimo abadamu n'abamama bigaragara ko bari mu nama bafite ingingo runaka bari kuganiraho kandi bishimiye, ubona bose bahuje umugambi n'ibitekerezo bari kuganiraho.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bose bicaye ahantu hamwe bari mu nama, bafite ibyo bari kuganirizwa, bose baratuje, barakurikiye kandi basangiye intero n'inyikirizo, bose bari kumvikanaho.

Ubusobanuro bwiza bwimbitse butangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, bugaragara mu mabara y'ubururu n'umweru, busobanura neza uko imisoro itangwa, n'icyo kiba gishingiweho.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro aho basobanura neza umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze ku itariki ya mirongo itatu ukuboza za buri mwaka byose ni ho babisobanurira ukamenya uko bimeze.

Amaguriro menshi atandukanye harimo ibirango bigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku agaragaza kandi agasobanura ibihakorerwa n'uburyo wabihakoresha kandi ku giciro cyiza, buri kimwe icyo ari cyo cyose washaka cyahaboneka kandi bari ahantu ubona hameze neza ho gukorerwa ubucuruzi.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere m'u Rwanda, aho ushobora kwiyandikisha kuri murandasi, ushaka gusura cyangwa kwandikisha imikorere yawe buri kimwe cyose wakibonaho kandi mu buryo busobanutse.

Abakozi baba bagiye gusura umunara wa sosiyete yabo yitwa Tigo itanga serivisi z'itumanaho byoroshye guhamagara, kohereza ama mesaje no kwakira ubutumwa butandukanye muri rusange.

Ibirango bigaragaza itangwa ry'akazi gatandukanye, biri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo. Umwanya uwukeneye, wabandikira cyangwa ukabasanga ukababaza amakuru atandukanye kugira ngo ube wahabwa akazi.

Mudasobwa nyinshi ziri ahantu hamwe, ziteretse ahantu hamwe ku meza, hari n'izindi mudasobwa zikoreshwa mu gusohora impapuro nyandiko, hari n'ububiko bwazo, ubona ko hari ahantu hakorerwa akazi kandi kakagenda neza mu buryo bwihuse bw'iterambere.

Mu muhanda nyabagendwa aho imodoka zitandukanye ziri kugenda, imbere y'amaguriro acuruza ibintu bitandukanye, harimo imyenda n'ibikoresho runaka n'ahatangirwa serivisi z'amafaranga n'ikoranabuhanga kuri murandasi, ubona ko hari n'inyubako nziza zikomeye zubakishijwe amabuye.

Minisiteri y'Ubuzima, aho mu cyumba cyaho hagaragaza ibikorwa byifashishwa mu buvuzi, kandi ubona bicometse ubona ari ibitanga umwuka ari ibindi bitanga serivisi nyinshi zitandukanye, kandi ubona ko byose ari ibikoresho byiza kandi biteye imbere.

Iminara ibiri y'itumanaho miremire, hari n'abantu bari kuyikora bayitunganya, kugira ngo ibashe kugenda neza. Hari inyubako ziyikikije zibikwamo kandi zigakorerwamo ibijyanye na wo. Abantu bahegereye bakoresha iminara neza ndetse n'ibiti birahegereye ubona ko ari ibintu bisa neza.

Ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, bigaragaza igihe ntarengwa cyo kwishyura imisoro ya buri kwezi ndetse n'indi isanzwe yishyurwa, kugira ngo abantu bibuke batazarenza igihe cyo kwishyura imisoro bakaba bahanwa.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima aho ushyiramo umubare wawe wa terefone ngendanwa, hepfo yaho hari aho ushyira umubare banga wawe, hasi yaho hari aho ukanda bikakwereka ibisubizo by'ubuzima cyangwa by'ibizami wari wafashe, ukabona byose bikozwe kandi mu gihe cyiza mu buryo bwizewe.

Umuntu w'igitsina gore yambaye impuzankano z'akazi n'igikoresho kimurinda ku mutwe we, afite ibyo ari gutunganya bimeze nk'amashanyarazi, ari gushyira ku murongo kugira ngo akazi ke kagende neza ni uko buri wese yakora akazi ke akurikije ifoto y'uyu muntu.

Umuhanda urimo imodoka n'abantu mu byerekezo bitandukanye, hari umutaka, hari amazu acururizwamo ibintu bitandukanye, hari amapoto y'amashanyarazi, ubona ko buri kintu kiri mu mwanya wacyo, kandi bigaragara neza ko ari ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye.

Inkingi zisakaza amashanyarazi kandi zitanga n'urumuri ku muhanda, ririho ibirango bitandukanye byerekana ibikorwa by'ababa bishatse kubikoresha, hirya yaho hari inzu n'ibiti bikikije umuhanda.

Inkingi ebyiri zegeranye, imwe ni ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, indi ni itanga urumuri mu muhanda, inyuma yayo hari inyubako ubonako ikorerwamo ibindi bikorwa bitagaragara neza, ukabona ko ari insinga zifashe kuri iyo nkingi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zihaturiye.

Ku muhanda nyabagendwa hari abari kugenda n'amaguru, hari ikinyabiziga cya moto gihagaze ndetse n'inkingi ifashe imiyoboro y'amashanyarazi awutanga ahantu hose mu ngo ziyegereye, hari ibirango bisobanura kandi bikamamaza amabati n'ibindi bikoresho bikozwe mu byuma.

Inkingi y'umuyoboro w'amashanyarazi hariho gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage mu buryo butandukanye, iri ahantu hari ibigori, hari ibiti, ubona hari n'ibintu byinshi watemberaho byakurangaza. Hateye n'ibitoki ubona ko ari ahantu heza.

Ahakusanyirijwe ibikoresho byifashishwa mu kubaka no gutegura amashanyarazi, no kuyakwirakwiza ahantu hose, birunze hasi, hirya hari inzu, ni inyubako ubona ko ari nk'aho bibikwamo ibindi biri hanze, ni inzu ebyiri, hirya yaho hari uruzitiro, inyuma y'uruzitiro hari ibiti, ubona ko ari ahantu heza, kandi hatuje muri rusange.

Abantu babiri bakora amashanyarazi, bambaye byabugenewe, bari ku nkingi hejuru y'amashanyarazi, aho iyasakaza kuri buri ngo zihegereye, hirya yaho hari igiti, ubona ko hari ibyo bari gutunganya.

Umunara muremure cyane, ukikijwe n'ibiti, ubona bitagaragara neza, hariho imiyoboro y'amashanyarazi, ayatanga mu mpande zose ziyakikije, ubona ko buri kimwe cyose kiri mu mwanya wacyo kandi hari umutuzo nkuko bigaragara.

Inyubako nyinshi ziri ahantu hamwe, ubona ko ari ahatangirwa serivisi. Hanze hari intebe nini yicaraho abantu bategereje. Umuntu umwe ni we ufite impapuro, ari kugerageza kwaka serivisi, yambaye ishati y' umuhondo, ipantaro y'umukara, ubona ko ategereje bari kumukorera serivisi ari gusaba.

Ahatangirwa serivisi aho abantu bicaye bategereje ubaha serivisi zitandukanye umwe ari gusobanurira undi hanyuma abandi bategereje bicaye hari n'abandi bahagaze ubona ko buri wese afite icyizere cyo kwakirwa kandi bose bameze neza ubona uko serivisi bari bu yakire nta kibazo.

Abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo, bicaye ahantu hamwe baganira ku nsanganyamatsiko, bari gukora inama y'ikigenderewe kandi bose bahuje umutima n'ibitekerezo, bamwe bari gukora berekera abandi ibyakozwe, abandi bari kumva no kwakira ibiri gukorwa.

Ushinjwa icyaha cyangwa imbohe, n'umuburanira, ari na we umuhagarariye mu mategeko, aho baba bari mu rukiko bari kubazwa, no gusubiza, no kwisobanura ku byaha baba bashinjwa, kugira ngo barebe ko babohorwa cyangwa bagasaba imbabazi, biterwa n'uko baba bari kuburana.

Ingingo zigaragara kandi zikagaragazwa mu rukiko igihe hari abari kuburana n'abandi bari kwiregura, izo ngingo ziragaragara zishingirwaho mu gufata ibyemezo bahana cyangwa barenganura urengana.

Umuntu wambaye neza, usa neza, mu buryo bwiza, uri mu bubiko werekana, ibikarito bitandukanye, biri mu bubiko, bitewe n'ibyo agezeho, ubona ko afite umuntu ari kwereka, hari ibikarito byinshi biri mu bubiko, ubona ko buri kimwe cyose, kiri ku murongo.

Abarinzi babiri ba gereza, bambaye impuzankano zabo, ziri mu mabara asa, bari gutuma undi muntu yinjira mu ruzitiro rwabo buguruye kugira ngo abashe gutambuka, ubona na we yambaye neza ashobora kuba asohotse cyangwa ari kwinjira.

Urupapuro rusohowe na leta rugaragaza ibihano n'amabwiriza mashyashya rugenga kandi rugashyiraho n amategeko akoreshwa n'abaturage bitewe na leta ya runaka n'igihe barushyiriyeho ubona ko amabwiriza yose ajyaho n'ibihano byose n'ibyaha wenda biba byagaragajwe.

Mu cyumba cyo kuraririramo abantu babiri bari kurahira bashyize akaboko hejuru mu myambaro y'umukara ndetse n'umweru baharahirira bafashe ku birango by'igihugu cya kigizwe n'amabara y'u Rwanda; ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, imbere hari abacamanza nabo bambaye neza imyenda y'umutuku ndetse n'umweru bari kwakira izo ndahiro.

Abanyamategeko benshi ubona bambaye impuzankano zisa, n'abandi bari ruguru ubona baje nko kureba uko bimeze, bose bicaye ku ntebe zisa z'ubururu, bose ubona bafite ikintu kimwe bari kumva kandi bari mu nama bahuje ibitekerezo.

Abanyamategeko benshi bahagaze imbere y'ibirango by'igihugu, imbere yabo hari abacamanza ubona ko bafite ibyo bari kubabwira n'abandi bari kugira ibyo babemerera. Inyuma hari abandi bantu, basa nk'aho bari kureba ubona batuje kandi bari kumva ibiri gukorerwa aho ngaho.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara n'icyatsi n'ingofero n'utuntu dupfutse umunwa, hanyuma yerekana uko bazimya umuriro hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe, yerekera n'abandi benshi bari kureba uko bikorwa kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose na bo babe babyikorera mu buryo butabagoye.

Umugabo umwe yambaye imyenda y'umukara irimo icyatsi yambaye n'gofero y'umukara, iri mu myenda ya polisi y'u Rwanda ari guhugura umuntu wambaye agapfukamunwa n'itaburiya ari kumwereka uko bazimya umuriro bakoresheje gaze n'isafuriya, inyuma hari abandi bantu bari kureba uko bikorwa banakoma amashyi.

Igikoresho kiri mu mabara y'umutuku handikishijweho amabara menshi asobanura uko gikoreshwa mu kuzimya no guhashya inkongi y'umuriro, hasi hari agakangara gakoreshwa bashyiramo imyanda idakeneyewe gukoreshwa kugirango bazayijyane mu bubiko aho byagenewe.

Umuntu yambaye neza n'bikoresho byabugenewe mu kuzimya, ari kuzimya umuriro kandi yambaye neza, aho buri kimwe cyose kitamugiraho ingaruka, yambaye agapfukamunwa ingofero n'imyenda, aho abona ko ameze neza kandi nta yindi ngaruka yabona yamugiraho.

Mu iguriro hari imigozi ikoreshwa mu bikorwa by'amashanyarazi, kandi no mu zindi serivisi zitandukanye, ushobora kuba wabagana bakakugurisha cyane cyane ku bijyanye n'amashanyarazi, kuko byose biba bihari mu bwubatsi.

Mu muhanda nyabagendwa imodoka y'umukara irimo iragenda, indi iri kuza ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere hari ubishinzwe uri kwereka ibinyabiziga aho binyura n'icyo bikora mu gihe cya nyacyo. Imbere yacyo hari ikirango kigaragaza umuvuduko ibinyabiziga bigenderaho n'amatara akikije umuhanda, n'ibiti n'inyubako bitagaragara neza ariko bihari.

i Imodoka zo mu mabara atandukanye ziparitse ahantu mu mbuga ubona hakorerwamo kandi hatangirwa serivisi zitandukanye zitabashije kumenyekana, hari ahantu ziparitse zimeze neza zitegereje, hari n'ibirango by'amabara y'igihugu.

Ahatangirwa serivisi hanywebwa ikawa, hari ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya umuriro w'inkongi mu gihe waba wateye. Hari n'ahantu wakinjira ukicara hateguye neza, hari n'indabo, hari uruzitiro rwiza, ubona ari uburyo bugezweho kandi butekanye.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame, ari kureba asuzuma neza ko ibyangombwa bye byuzuye ngo abashe kubishyikiriza umukuru w'ishyaka abarizwamo. Hanyuma kugira ngo barebe ko byuzuye nta kibazo kirimo.

Abantu benshi bafite ibyishimo byinshi mu mumaso yabo, umwe afite ikirango cy'ishusho kigizwe n'amabara y'icyatsi n'umweru, kigaragaza amashusho y'umuntu bashaka kwitorera, nawe ari mu modoka, ari kugenda abasuhuza, abona ko bamwishimiye.

Abantu bane umwe arahagaze ari kuvuga, abandi batatu baricaye ubona ko bari kugira inama batanga cyangwa ibyo babwira abantu, n'ubwo batagaragara, inyuma hari ibirango byabo bigizwe n'amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'umweru bigaragaza ishyaka ry'abo bakorera.

Abantu benshi bari mu nama, biganjemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe nziza z'umukara, n'ameza meza, imbere yabo hari amazi yo kunywa kuri buri umwe, ubona bafite ikintu bari kuganiraho kimwe, batumbereye kandi bahuje umutima.

Umama mwiza cyane yambaye neza bigaragara n'abana be bari kumwe, umwe ni mutoya undi ni mukuru we ariko bambaye imyenda isa, ubona ko na bo ari abana beza, bateye neza, bazagira igikuriro cyiza pe! Ubona ko ari byiza cyane.

Imodoka nini itwara imizigo, iri kugenda mu muhanda nyabagendwa, iruhande rwayo hari akayira k'amaguru abanyamaguru bagenderamo, uruhande rw'umuhanda hari ibiti bizitiwe n'uruzitiro rwiza, ubona ko ari Umujyi ukeye kandi utuje.

Iyi modoka nini itwara imizigo iratwikiriye ntiwamenya ibirimo imbere, iri kugenda mu muhanda, hirya y'umuhanda hateye ibiti, hari n'uruzitiro, ibiti n'indabo ubona ko bigaragara neza kandi ubona ko nta wundi muntu uhari..

Mu muhanda nyabagendwa, hari umuntu utwaye ikinyabiziga ahetse umugenzi, iruhande hari akayira k'abanyamaguru, uruhande rwako hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'ubusitani bwiza, ubona ko ari umuhanda w'umujyi mwiza.

Ikinyabiziga cya mpande eshatu gikurikiwe n'ikinyabiziga kinini berekeje mu muhanda umwe no mu nzira imwe, hirya hari igiti, hari uruzitiro rw'umuhanda, hari n'umuntu mbere yaho, ubona ko ari icyerekezo kimwe imodoka ziri kugenderamo.

Imodoka nini yagenewe gutwara imizigo iri kugenda mu muhanda nyabagendwa, hirya yaho hari aho batangira amavuta ajya mu modoka agatuma zigenda. Iruhande rwayo hari ibirango byerekana ko aho ngaho wahagurira ayo mavuta ushaka. Hirya haparitse imodoka zitwara abagenzi n'izindi ziri kugenda mu kindi cyerekezo. Inyuma yaho hagaragara ibiti ubona ko ari ahantu hakeye.

Ahantu ibinyabiziga bihagarara ubona ko hari ikinyabiziga cy'impandeshatu hanyuma hakaba n'imodoka zisanzwe ubona ko hari umuntu wicaye imbere y'ikinyabiziga cy'impande eshatu ubona ko ategereje ni ahantu imodoka ziruhukira cyangwa zitegerereza mu gihe uwo umuntu yayiparitse hiryara umuhanda imodoka ziri kugenda ubona ko aribyo bigaragara gusa.

Ibinyabiziga bya moto byinshi biparitse ahantu zifite n'ibirinda umutwe hanyuma izo moto zose zikoresha amashanyarazi, hari umutwaro ziri kugaragara wambaye impuzankano ubona ko hirya hari n'undi muntu uri kumanuka mu muhanda; inyuma ye hari uruzitiro n'inkingi y'amashanyarazi iri hagati muri moto ariho ishinze.

Ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto bitwaye abantu hari n'abitwaye bambaye impuzankano zabo, hirya hari agahandada k'abanyamaguru bari kugenderamo, hirya y'umuhanda w'abanyamaguru hari ibiti bihateye bitanga akayaga bikamera neza muri rusange.

Imodoka ipakiye ibintu byinshi, hejuru y'umuzigo hicayeho umugabo iri kugenda mu muhanda, hirya hari ahantu hateye ibiti n'uruzitiro runini, ubona ko ubu nta kindi bigaragaza, ari imodoka itwaye ibintu kandi iri mu muhanda.

Mu mujyi mu muhanda nyabagendwa ahagaze amamoto ari mu kazi atwara abantu mu byerekezo bitandukanye n'ababatwara bategereje ababagana kugira ngo bakore akazi. Inyuma yaho hagaragara inzu n'imiturirwa myiza n'amatara ari kwaka ku mihanda bigaragara neza bibereye ijisho.

Mu mugi wa kigali, ahantu hatagengwa n'imodoka, hagaragara abantu bari ku magare, n'abandi babiri bahagaze hari uruzitiro, ari ubusitani, hari ibiti, hagaragara neza, ubona ko hakereye amaso, kandi n'abashaka kuruhuka bakahagenderera.

Ikibuga kinini kigezweho bakiniraho umupira w'amaguru, kigizwe n'amazamu ndetse n'ibigikikije harimo ibiti ndetse n'uruzitiro, hari imodoka zihagaze hirya n'abantu bashaka kuhagera bakikorera imyitozo, bahagera bakayikora nta kibazo.

Ikirango kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru gisobanura kandi kikagaragaza ko ugomba guhagarara mu gihe uhageze, inyuma yacyo hagaragara ubusitani ndetse n'ibiti ubona ko ari ishusho ibereye ijisho.

Ikirango kiri mu mabara y'icyatsi, amagambo yandikishijwe umweru n'andi macye yandikishijwe umuhondo, kiranga ahantu hari inzu y'imyidagaduro ahantu ku Kacyiru, hari n'imihanda igendwamo n'imodoka zitandukanye n'ibinyabiziga bitoya bitwaye abantu, hirya ku muhanda hari izindi nzu zimeze nk'izigeretse ubona ko ziteye neza, Umujyi ugaragara neza.

Ibirango biri mu mabara y'umutuku, umweruru ndetse n'umukara. Bigaragara ko hatagenda amagare kandi bibujijwe. Wumva rero ufite igare cyangwa urigendaho, ntago wemerewe kunyura aho hantu hari ibyo birango bimeze gutyo.

Inyubako iri i Kanombe, ifite uruzitiro rugizwe n'amatafari, amabuye n'ibyuma, hanze yayo hari ubusitani n'uduti dutoya, ubona ko hari n'igiti kirekire gisa nk'aho cyegereye uruzitiro. Hanyuma nawe ukaba wahatura cyangwa ukahagenderera ukareba uko hameze.

Mu muhanda nyabagendwa, imodoka nini nini ziri kugenda mu buryo busanzwe, hari n'abantu bari kugenda, iruhande rw'umuhanda, hari ibiti n'indabo zirimo amabara atandukanye, inyuma yaho hagaragara inyubako zituwemo n'abantu, ubona ko ari umujyi ukeye.

Imodoka zihagaze ari nyinshi ahantu imbere y'amaguriro, ubona ko ba nyirayo bagiye guhaha cyangwa bagiye mu yindi mirimo itandukanye. Mu maguriro harafunguye, ruguru hari inyubako ndende, ubona ko iteye imbere, iriho iminara, ubona ko hari ibihakorerwa.

Uruzitiro rwa senyenge n'ibyuma, ruzitiye ahantu hari ibiti n'ibyatsi, n'imbere harimo inyubako nziza cyane igaragara nk'aho ikorerwamo serivisi zitandukanye za leta. Kandi ubona ari ahantu hatuje hari ubusitani bwiza, n'ahantu haryoheye ijisho hagaragaraye neza.

Ubusitani bwiza, bugizwe n'ibiti n'indabo zifite amabara atandukanye, bibereye ijisho aho ushobora kuhatemberera, hagakorerwa ubukerarugendo bikinjiriza amafaranga igihugu, kugira ngo igihugu giite imbere.

Ubusitani n'uruzitiro ruzitiye inyubako ndende cyane, ikoreramo sosiyete ya Berona, aho buri kimwe cyose wakibona, kandi serivisi zose ukazibona mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bateraniye ahantu hamwe, bari kwaka serivisi zitandukanye, gusa ntiwashobora kubabona neza kuko ifoto itagaragara, gusa hari urukuta rusa nkaho ari ubururu ndetse n'ahandi haho h'umweru.

Inyubako zitandukanye imwe ifite ibirango, izindi zirageretse, ubona ko zifite amateni, zifite ububiko bw'amazi ,zifite uruzitiro, ubona ko bimeze neza nta kibazo na kimwe kiri hano urabona ko nta kibazo.

Umuhanda ugaragaza ahantu abantu bagendera, n'aho ibinyabiziga bigendera, hari moto itwaye abantu, n'imodoka bitandukanye, ku ruhande rw'umuhanda hari n'ibiti, ubona ko biryoheye ijisho, kandi buri kimwe kiri mu mwanya wacyo.

Umuhanda nyabagendwa ugaragara ahagenderwa imodoka, n'amamoto n'abantu mu buryo butandukanye, ikiraro, ubusitani, amatara ku buryo buri kimwe cyose kimeze neza kandi gitekanye, hafite ishusho ryiza kandi bigaragara ko hatuje kandi yatekanye.

Umuhanda ngenderwamo n'ibinyabiziga ndetse n'ahagenewe abanyamaguru, bigaragara ko umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse ubona ko nta muntu n'umwe uhari, ni uko nguko bimeze.

Umuhanda nyabagendwa aho buri kinyabiziga cyose haba mu bitwara abantu, ibitwara imizigo n'abantu bashobora kugenda batekanye kandi nta kibazo bafite, hariho ibirango bigaragaza ushobora kwerekera, n'icyo wakora mu gihe cya nyacyo.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaramo abantu batandukanye, amamodoka, ibirango n'ubusitani by'umuhanda, aho buri wese atuje agenda ameze neza kandi biryoheha ijisho bigaragaza n'iterambere ry'igihugu, harimo n'kiraro cy'umuhanda buri kintu cyose kimeze neza kandi ku murongo,

Mu muhanda nyabagendwa imodoka ziri kubisikana, hari n'abanyonzi bahetse abantu, ubona ko bamwe bari kujya mu cyerekezo kimwe abandi bagaruka mu kindi babisikana. Hejuru hari uwundi muhanda utambuka ku ruzitiro rw'uwundi muhanda. Hari ubusitani n'akayira k'abanyamaguru.

Imirongo iciye mu muhanda ishaka kugaragaza ko ahantu hagendwa gakeya, yereka abatwaye ibinyabiziga ko imbere hari inzitizi bityo bakagenda gahoro kugira ngo hatagira ikintu cyangirika, hirya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda ubona ko ari umuhanda ufite isuku.